Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose umugabo uyiyoboye afite icyuma cy'ikoranabuhanga cy'indangururamajwi kifashishwa mu mbwirwaruhame ku meza hateretse amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'inyange

Urubyiruko rw'abanyamahanga ndetse n'abirabura bitabiriye inama, iri kuganirwaho bambaye impuzankano y'imipira iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, iyobowe n'umugabo ufite icyuma cy'ikoranabuhanga cy'indangururamajwi gikoreshwa mu mbwirwaruhame, ku meza hatereretseho amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'Inyange.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, bose bambaye udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu bwerurutse, ku meza hateretse udukombe tw'amazi kandi hari igikapu.

Benshi bitabiriye inama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange, ndetse n'ibikoresho bya mudasobwa byifashishwa kwandikwamo.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye ku meza hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'imitobe bitunganywa n'uruganda rw'inyange bigashyirwa mu macupa yabugenewe abiririnda kwangirika.

Yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose, imbere yabo bafite utwuma tw'isakazamajwi, tubafasha kumvikana ndetse na mudasobwa n'amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'Inyange.

Yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zifite imyenda iri mu ibara ry'umweru, uyoboye inama afite igikoresho cy'indangururamajwi gikoreshwa mu mbwirwaruhame.

Yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ku meza hateretse igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho, bakaba bafite n'amacupa y'amazi y'uruganda rw'Inyange.

Yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ku meza hateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga bigendanwa mu ntoki bya telefone byifashishwa mu guhamagara kohereza ubutumwa n'ibindi, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Aba Rwiyemezamirimo bikorera, mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose ikaba iyobowe n'umugore, akaba afite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu mbwirwaruhame.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ku meza hateretse amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange, hari kandi mudasobwa zifashishwa mu kwandikamo ibyavugiwe mu nama.

Inama yitabiriwe n'ingeri zose, umuyobozi wayo afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku.

Umuyobozi uyoboye inama w'umugore, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu mbwirwaruhame cy'indangururamajwi, ku meza hateretse amazi menshi akorwa n'uruganda rw'inyange.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye, uyoboye inama afite icyuma cy'indangururamajwi k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu mbwirwaruhame, nk'inama, ubukwe n'ibindi mu rwego rwo koroshya kumvikana.

Inama yibitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, ku meza hariho utwuma tw'ikoranabuhanga twifashishwa mu ndangururamajwi y'ibwirwaruhame ndetse n'amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'Inyange.

Yagabanyije abirabura ndetse n'abanyamahanga, ku meza hari impapuro nyinshi, hakaba kandi hari amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange agafungwa neza mu buryo bwabugenewe.

Ingeri zose bahawe amatungo magufi y'ihene ndetse hakaba harimo n'abayobozi n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo gutanga izo hene. Inyuma hari ibiti n'insina.

Ibikorwaremezo bya leta birimo gukangurira abaturage kubaka inzu zijyanye n'igihe, zikomeye zidashyira ubuzima bwabo mu kaga no kubaha amashanyarazi abafasha kwiteza imbere.

Inzu z'ubucuruzi zitangirwamo ubufasha bugiye butandukanye, ku birebana n'Irembo, hakaba harimo kwandikisha abana, gusaba uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga n'ibindi byinshi.

Umunara muremure, wubatswe hakoreshejwe ibyuma bikomeye, kandi bigezweho, utanga itumanaho, ndetse no kohereza no kwakira k'ubutumwa bugufi, hifashishijwe telefoni zigendanwa.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bito ndetse n'ibinini, umunara muremure wubakishijwe ibyuma bikomeye, ukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse ugafashwa no mu itumanaho ry'ikoranabuhanga.

Urubuga rureberwaho amakuru y'ubutaka hifashishijwe ikoranabuhanga nka telefone zigezweho cyangwa mudasobwa, aho waba uri hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo.

Kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye, ukoresheje ikoranabuhanga nka mudasobwa cyangwa telefoni igendanwa, ukanyura ku rubuga rw'irembo ukaba wakwiyandikisha.

Abasore ndetse n'inkumi bahagaze imbere y'imodoka, bambaye udupfukamunwa, bafite mu ntoki ibikoresho by'ikoranabuhanga bya mudasobwa byifashishwa mu kubika amakuru no kuyasakaza.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, ku nkengero hari ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye ndetse no hirya hakaba hari inzu iri mu gipangu, ifite ibara ry'umweru.

Igiti kirekire kiriho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga ndetse hakaba hari igipangu cyubatse mu buryo bukomeye, ku mpande hari icyapa ndetse n'ibiti.

Amatara ashyirwa ku nkengero z'umuhanda, umunara muremure wubakishijwe ibyuma, ukomeye, uriho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga.

Igice cyahariwe ubuhinzi ndetse n'ubworozi, hateyemo ibiti byinshi bikurura imvura, bigatanga umwuka mwiza ndetse bikanakumira isuri, hari kandi igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umunara ukomeye muremure, wubakishije ibyuma bigezweho birambye, uri ahantu hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti byinshi, bigiye bitandukanye by'amoko yose.

Mu buryo butangaje wubakishijwe ibyuma bikomeye hariho itsinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu rwego rwo kunoza itumanaho.

Hanyuramo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse. Hakaba hari n'igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hari amagorofa n'ikimodoka kinini gitwara imizigo, hari kandi igiti kirekire gishyirwaho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Kirekire kiriho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, wifashishwa mu gucomeka ibyuma bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, telefoni n'ibindi, hirya gato hari ibiti.

Inyubako z'ibikorwa remezo, hari umunara muremure wubakishijwe ibyuma mu buryo bw'ikoranabuhanga, buzashyirwaho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'amatara yo ku muhanda hakaba hari kandi n'ibiti byinshi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hakaba hari umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda MTN, uri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'igiti kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Rishinzwe umuriro w'amashanyarazi REG, rikorera mu mujyi wa Kigali, mu gace k'i Remera, imbere hari gucaho imodoka iri mu ibara ry'umutuku, inyuma hari inyubako y'igorofa ituzuye.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari akayira k'abanyamaguru, imbere hari igipangu gisize amabara meza y'umuhondo ndetse n'umukara, hakaba hari n'igiti gikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga rigiye ritandukanye. Ku nkengero hagiye hari ibiti birebire byinshi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza, rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'umunara muremure, wubakishijwe ibyuma bikomeye...

Iminara myinshi cyane ikwirakwiza umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda, hagiye hariho insinga z'amashanyarazi zigenda ziyobora umuriro hirya no hino mu baturage.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ubusitani bwiganjemo indabo, hahagaze kandi igiti kirekire, cy'iriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda MTN, kiri mu ibara ry'umuhondo, imbere hahagaze umumotari utwara abagenzi.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bikomeye uriho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga n'itumanaho mu Rwanda.

Bigiye bitandukanye, hari ubusitani bwiza cyane buteyemo indabo ziririmo ibara ry'umutuku ndetse hakaba hari n'aho abarwayi bicara mu gihe cy'izuba.

Inzu yubatse ahantu heza y'igorofa isize amarange meza cyane, imbere hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse mbere yaho hari ubusitani burimo indabo.

Abantu bagiye batandukanye imbere hari uyoboye inama, hakaba hari n'umugabo ufite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu mbwirwaruhame ndetse kikaba ari insakazamajwi.

Abayobozi bari kurahirira imbere y'imbaga nyamwinshi bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'umweru, bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, rigizwe n'amabara atatu ariyo umuhondo, icyatsi kibisi n'ubururu.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu. Hari ushinzwe umutekano mu kuyobora ibyo binyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Abaturage bari kwereka uburyo bakoresha kizimyamwoto igihe bagize inkongi y'umuriro, ahantu hateraniye abantu benshi, ndetse bakaba bari kubyerekwa n'impuguke mu bijyanye no gukumira inkongi.

Ahakorerwa ibizami byo gutanga uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, hari umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye moto ndetse n'ushinzwe umutekano.

Igikoresho gishyirwa ahantu hahurira imbaga nyamwinshi cya kizimyamwoto, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umweru, aho cyifashishwa mu kuzimya umuriro no gukomira inkongi.

Umugore n'umugabo bari imbere y'itangazamakuru, bafite uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga bya mudasobwa, n'utundi twuma tw'indangururamajwi.

Abaturage bambaye ibirango bya FPR, ishyaka ryiyamamariza ubutegetsi bw'igihugu, bafite amafoto ariho umukuru w'igihugu Nyakubahwa Paul Kagame.

Abakozi bambaye impuzankano ziri rmu ibara ry'umweru, bari mu ibarura ry'amajwi y'umukuru w'igihugu, ndetse bakaba bari ku meza n'ibipapuro biriho amajwi y'abatoye.

Uhagarariye itsinda cyangwa ishyaka uri gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu itangazamakuru mu gufata no gusakaza amajwi n'amashusho.

Wiyamamariza kujya ku butegetsi ari imbere y'itangazamakuru, afite ibyuma by'ikoranabuhanga ryifashishwa mu gukwirakwiza, gukurura no gufata amajwi.

Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi FPR uri kwiyamamariza kuyobora Igihugu, wambaye umupira w'umweru ndetse afite ikirango cy'iryo shyaka kiri mu ibara ry'umutuku umweru n'ubururu.

Inama yitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ku meza hateretse amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange, ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'ibindi.

Bari kuva aho batorera abandi nabo bakaba bari kujyayo, hakaba hari icyapa kibayobora aho bibera, imbere hakaba hari ibiti byinshi.

Umuhanda w'umukara unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka yikoreye imizigo, iri mu ibara ry'umweru, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, hari gucamo ikimodoka kinini kikorera imizigo, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi biteye.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu kandi hakaba hari amatara menshi acanye ibara ry'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini kikorera imizigo, kiyitwara hanze y'igihugu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti.

Unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, hagati hagiye harimo ubusitani buteyemo indabo, imikindo, n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bitwara abantu ndetse n'ibintu; hahagaze ushinzwe umutekano wo mu muhanda, ndetse hari n'igiti kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'abantu, hari gucamo imodoka yifashishwa mu kwigisha abantu gutwara, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti by'ibidukikije.

Umuhanda unyurwamo n'uruhererekane, urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu. Ku nkengero hari amatara yo ku muhanda yaka ibara ry'umuhondo, ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Uru urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu ,hari gucamo imodoka yikorera imizigo iri mu ibara ry'umutuku ,n'ibiti bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka nini iri mu ibara ry'umweru yikoreye imizigo myinshi ndetse ku nkengero hari amatara.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hahagaze abamotari bakora umwuga wo gutwara abagenzi hirya no hino, ku nkengero hari ibiti byinshi cyane.

Icyanya cyahariwe guhagararamo ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gutambuka umugabo ufite ubumuga bw'ukuguru, ufite imbago mu ntoki ndetse ari kwerekeza aho bategera.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi by'ibidukikije.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu; ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi, hakaba haparitse ikimodoka kinini gitwara abagenzi kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini cyane, kiri mu ibara ry'umweru, kikorera imizigo myinshi, cyiyikura ahantu hamwe kiyijyana ahandi.

Ishyirwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikibodoka kinini cyane gifunze neza, gitwara imizigo iremereye, hakurya no hakuno y'igihugu, ku nkengerora hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo iki modoka kinini gitwara amazi ahabugenewe, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti.

Inyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari gucamo imodoka ipakiye imizigo, ndetse ku nkengero hakaba hari akayira k'abanyamaguru bifashisha batagendera mu binyabiziga.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti

Icyanya cyahariwe guhagararamo ibinyabiziga bitwara abagenzi ndetse bakaba ariho babitegera, hari imodoka za twegerane, ziri mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi.

umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari icyuma cyikorera imizigo gitwarwa n'abantu bashinzwe kuyitwara, kiri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda munini ugendwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini cyane gitwara imizigo hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ku nkengero hari ibiti n'akayira k'abanyamaguru.

Icyanya cyahariwe guhagararamo imodoka zigiye zitandukanye zitwara abagenzi, hari akazu gato karimo ibara ry'umutuku kicarwamo n'abagenzi bategereje ko imodoka zihaguruka.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimo kinini cyane kirimo ibara ry'ubururu, kijyana abagenzi mu mujyi wa Kigali hirya no hino.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hahagazemo utumoto duto dutunda imizigo, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Icyumba kigizwe n'amabara atatu harimo umutuku, umukara ndetse n'umweru kiri mu ishusho y'uruziga gishyirwa ku muhanda cyerekana yuko hatemerewe guparikwa.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari icyapa cya mpande eshatu cyerekana yuko imbere hari akayira k'abanyamaguru.

Kiburira gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, kimenyesha abakora umwuga w'ubuyonzi wo gutwara abantu ndetse n'imizigo, yuko aho hantu hari ibyago byinshi ku batwara amagare.

Kiyobora ahari amacumbi ndetse n'ikibuga cy'indege giherereye i Kanombe kinini mu Rwanda, hakaba hari umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hakaba hari akayira k'abanyamaguru, hejuru yaho hari icyapa ndetse n'ibiti.

Cya mpande eshatu gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, gifite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, kikaba cyerekana ko aho hantu hari gukorwa umuhanda cyangwa uri gusanwa.

Icyapa cya mpande eshatu gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru gishyirwa ku nkengero z'umuhanda ndetse kikaba kiyobora ibinyabiziga mu mategeko y'umuhanda.

Cy'uruziga kikaba gishushanyijemo imodoka iciyemo umurongo w'umutuku, bikaba bivuga ngo ntihemewe guparikwa n'amamodoka, kandi kikaba iri mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, gifite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, gishushanyijemo imodoka ebyiri, hagati hakaba haciyemo umurongo bisobanuye ngo birabujijwe gutambuka mbere.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye ndetse ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti.

Icyapa cyerekana aho umuntu ari kujya, hari Akanyaru, Huye, Muhanga, Ruhango ndetse na Kinazi, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma hari inzu ndetse n'ibiti.

Icyapa cya mpande eshatu gishushanyijeho umuntuntu, hakaba hariho amabara atatu, umweru, umutuku ndetse n'umukara, kikaba gishyirwa ku nkengero z'umuhanda cyerekana aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, kiri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara, kiyobora ibinyabiziga kibyereka yuko imbere mu kuboko kw'ibumoso hari ikorosi.

Amatara ashyirwa ku nkomane z'umuhanda yerekana uko ibinyabiziga bigenda bitambuka bihana inzira, akaba akoreshwa n'ikoranabuhanga ndetse hakaba hari n'ibiti.

Inzu y'amagorofa maremare, yubatse ku muhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabo n'igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu zifite ibipangu zisize amarangi y'umukara ndetse n'icyatsi kibisi, ziri ku muhanda, zikaba zifite ubusitani buteyemo indabo ziconze neza n'imikindo ku mpande.

Inzu zubatse mu kajagari, harimo amagorofa ndetse n'izindi nziza cyane, hagati hagiye hateyemo ubusitani bwiganjemo ibiti by'inganzamarumbo.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'agakoreshwa n'amagare, hakaba kandi hari ibiti byinshi biteye hirya gato.

Icyanya nyaburanga kirimo ibiti byinshi n'ubusitani bwiganjemo indabo, imikindo ndetse n'ibindi byinshi cyane bitanga umwuka mwiza bigakurura imvura ndetse bikaba byafata n'ubutaka bikarinda isuri.

Inzu y'igorofa ndende yubatse mu buryo bukomeye kandi bwiza, isize amarangi meza cyane y'umweru ndetse n'umukara, imbere hahagaze imodoka itwara abantu, iri mu ibara ry'umutuku ndetse hakaba hari n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, hirya yaho hari ipoto rirerire rishyirwaho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Igorofa iriho icyapa cyerekana ahacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hashushanyijeho amacupa abiri y'inzoga ndetse ku mpande haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga kikaba cyanditsemo inyuguti ya P iri mu ibara ry'umukara herekanwa y'uko hatemerewe guparikwa n'ibinyabiziga, ku nkengero hagiye hari ubushitani.

Inzu nyinshi zubatse mu buryo bw'ubucucike, ziganjemo ibidukikije by'ibiti bikumira isuri, bigafata ubutaka ndetse bikanakurura imvura hirya no hino.

Umuhanda mugari unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'amaguru ndetse hejuru y'umusozi hakaba hari ibiti byinshi by'inganzamarumbo.

Binyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ubusitani bwiganjemo ibiti n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, hari ibipangu byiza cyane byubatswe mu buryo bugezweho ndetse n'ibiti bikurura imvura, bikanafata isuri.

Bigenewe unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, hejuru hari ikiraro cyubatse cyo hejuru cyane.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hariho akayira k'abanyamaguru ndetse n'ishyamba ririmo ibiti byinshi by'inganzamarumbo.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari imirongo migari irimo ibara ry'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka, ku nkengero hari amatara yo ku muhanda n'ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu hari imirongo migari ishushanyishije ibara ry'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka ndetse hakaba hari n'ahandi hari amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibitwara ibintu, hari gucamo imodoka nyinshi, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, imbere hari umurongo munini werekana aho abanyamaguru banyura bambuka.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari imirongo minini yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka ndetse ku nkengero hari amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hakaba hari gucamo imodoka zitandukanye, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'icyapa.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ibidukikije byiganjemo ubusitani n'ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ku nkengero hari ibidukikije byiganjemo ubusitani bw'indabo n'ibindi ndetse hakaba hari n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari amatara ashyirwa ku muhanda ndetse hakaba hari n'abagenzi banyura mu muhanda wabugenewe.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi by'ibidukikije, hakaba n'imirongo minini cyane iri mu ibara ry'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani buteyemo indabo n'ibiti byinshi cyane birebire.

Umuhanda mugari unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani buteyemo indabo, ibiti ndetse n'imikindo, hakaba kandi hari uturongo tw'umweru n'umukara.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari imirongo migari iri mu ibara ry'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka hagati mu muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkomane zawo, hagiye hari amabara y'umweru ndetse n'umukara, ku nkengero hari ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rutwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'umunara muremure uriho insinga zikwirakwiza amashanyarazi.

Hashyirwamo n’urujya n’uruza rw’ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari imirongo minini iri mu ibara ry’umweru yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka. Ku nkengero hari amatara yo ku muhanda.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'amatara yo ku muhanda, hakaba hari n'ibiti byinshi cyane bikumira isuri.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero zawo hagiye hari ibidukikije byiganjemo ibiti ndetse n'indabo.

Isomo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse hagati mu muhanda hashushanyijemo imirongo minini iri mu ibara ry'umweru igaragaza aho abagenzi bambukira

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru n'umwanya wo guhagararamo kw'ibinyabiziga ndetse hakaba hari n'ibiti.